Umwana muto w'umukobwa uri ku iriba, uri koga intoki , wishimye afite akamwenyu ku maso wambaye ishati yazinze amaboko y'umutuku.

Abana bari mu kigero cy'imyaka itanu kugera ku myaka cumi n'ibiri bari kuvoma bafite utujerekani mu cyaro.

Urwunge rw'abantu ruri mu nama, abagore ndetse n'abagabo b'ingeri zitandukanye abazungu n'abirabura, bicaye ku ntebe z'umutuku n'imeza iriho igitambaro cy'umukara, bafite n'amazi.

Abana batatu umwe w'umukobwa na babiri b'abahungu bafite akamwenyu ku maso, bari gukaraba intoki ndetse bafite n'isabune ku ntoki zabo.

Umugore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara uteruye uruhinja ndetse ku ruhande rwe hicaye umukobwa muto uri kwitabwaho n'umugore wicaye n'undi uhagaze.

Umugabo uri mu myaka mirongo ine kuzamura uri guseka, wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, ufite idomoro mu ntoki waje kuvoma.

Abagore n'abagabo bateraniye hanze bategereje ubufasha, aho abana ubona bari mu kigero cy'imyaka mito, hari abahetswe n'ababyeyi babo hari ndetse n'abandi basa nkaho bakumo gato.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka cumi n'itandatu kugera kuri cumi n'umunani, ari guseka afite akamwenyu ku maso yambaye umupira w'umutuku n'umukara.

Abana b'abanyeshuri bishimye bari guseka biga mu mashuri abanza bazamuye amaboko bishimye cyane inyuma yabo hari idarapo ry'u Rwanda.

Abana batoya bari mu kigero cy'imyaka itanu kugera kuri irindwi bicaye ku musambi abandi bicaye ku butaka, bari kumwe n'umukecuru mu cyaro.

Abagore bari mu cyumba cy'inama bafite amazi yo kunywa harimo abagore basutse bambaye imyenda y'umweru, umutuku, icyatsi.

Umukobwa wishimye wakoze ikimenyetso n'intoki ze, hafi y'akananwa kugera ku zuru, w'imibiri yombi ubona yuko afite akamwenyu ku maso.

Umugore n'umugabo bishimye bafatanye aho umugabo afashe ku rutugu rw'umugore ndetse umugabo akaba yahengamishije umutwe we ku mugore.

Abagore bambaye ibitenge bicaye ku bitaro biri mu cyaro bategereje kwakirwa kwa muganga, aho babyarira uretse kuba bambaye ibitenge harimo n'abifubitse kugirango imbeho itabica.

Icyumba cy'ibitaro cy'abarwayi, kigizwe n'ibitanda bishashe mu madirishya harimo n'inzitiramibu.

Ibitaro by'akarere ka nyarugenge biriho ibirango by'umweru biri kwerekana aho abarwayi binjirira ndetse inyubako igizwe n'ibara ry'umweru ahanini ari ryo ryiganje.

Ibitaro byitiriwe umwami Fayisari biriho ibyapa by'imodoka hanze yaho by'umuvuduko ntarengwa wa makumyabiri, byerekana n'abakeneye ubufasha bwihuta inzara bagomba kunyura ndetse n'abarwayi bategereje hanze.

Ahabugenewe abarwayi binjira bakanasohoka kwa muganga, kirimo amatara hejuru ku gisenge ndetse n'inkuta z'umweru zerekana ibirango ku muryango w'aho abantu basohokera.

Ibiro bya isange aho bakiriye abakorewe ihoterwa rishingiye ku gitsina, biri ahantu hari amadirishya agizwe n'ibyuma by'umweru ndetse n'amatafari ahiye.

Ibitaro byitiriwe umusaraba wo mu majyepfo kwa Nyirinkwaya, bigizwe n'amagorofa atatu ndetse biri mu irangi ry'umweru n'umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga cyahariwe abana. Harimo ibishushanyo, aho umwana yicara n'akantu azamukiraho kugira ngo abashe kwicara n'aho yakogera intoki.

Inyubako y'ibitaro yubakishijwe amatafari ahiye, igizwe n'amagorofa abiri, hariho ibyapa byo kwa muganga.

Abagore n'abana bicaye harimo n'umugore uhagaze ndetse n'umugabo uhagaze bategereje ubufasha mu nzu y'ababyeyi.

Icyumba cyo kwa muganga, abarwayi babagiramo abakomeretse ndetse gishobora no gukoreshwa mu gihe bari gusuzuma umurwayi urwaye n'amenyo.

Umusore uri kunywa amazi uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu kuzamura, wambaye imyenda yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, n'igikapu ku ruhande.

Umusore w'ubwanwa uri gukora imyitozo ngororamubiri asa n'usutamye ku mukeka yarambuye hasi amaboko yayashyize imbere, amaguru asa nk'uyapfukamyeho.

Umukobwa wazamuye amaboko wicaye ku mukeka uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite amazi yo kunywa ku ruhande rwe ndetse n'ibikoresho bimufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore w'imyaka makumyabiri n'itanu kuzamura, wakoze imyitozo ngororamubiri, uri kunywa amazi, wambaye umupira ugarukira ku ntugu.